Abantu benshi bahagaze munsi y'ibiti bafite ihene zihetse mu biziriko, hari n'abafite igare, mu ruhande rw'inyuma hari umugabo wambaye umupira w'umutuku uriho ikimenyetso cy'umusaraba uhagararanye n'undi ufite ibitabo mu kwaha wambaye ingofero y'umutuku, impande y'aho bari hari inzu iteye umucanga ifite uturyango tubiri duto.

Abantu bambaye utunozasuku tw'icyatsi mu mutwe dufite udushumi tuzirikiye inyuma, udupfukamunwa na two dufite imishumi izirikiye inyuma ndetse bifurebye imyenda y'ubururu bambaye n'uturindantoki, bahagaze ahantu hamwe, imbere harimo uwambaye amarinete, ufite icyuma mu ntoki ze, impande y'aho akijombye hari icupa ry'umweru.

Iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo icagaguye igabanyamo umuhanda mo kabiri, hari inzira yerekeza ku mazu asakaje amabati y'ubururu yubakijije amatafari ahiye. Inzu y'ibumoso, ifite inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'umweru. Naho imbere yayo hari ubusitani burimo icyapa bukikijwe n'indabo zifite ibara ry'umuhondo n'icyatsi.

Mu cyumba gifite imbuto zisize irangi ry'umweru harimo amarido ku madirishya, hicaye abantu benshi mu buryo bw'uruziga, imbere yabo hari ameza bamwe na bamwe hagiyetererekaho amazi bicaye mu ntebe z'umutuku abenshi naho abandi bicaye mu z'umweru, hari uhagaze ariko muri abo bose abenshi bambaye amataburiya y'ubururu n'ay'icyatsi.

Munsi y'umureko usize irangi ry'umuhondo, hari ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda, munsi yacyo hari amagambo manini y'icyongereza yanditse mu nyuguti z'umukara ngo matimba korosi boda isidi senta, n'aho munsi y'ayo magambo haranditse ngo urugo mbonezamikurire y'abana bato.

Iruhande rw'inzu yubakishije amatafari ahiye hasi isi irangi ry'umukara, yegeranye n'indabo hejuru zifite ibara ry'umuhondo naho hasi zifite utubari tw'icyatsi, hari umugabo uhagaze wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'amaboko magufi w'umweru ufite mikoro mu ntoki, impande ye hari icyapa cyanditseho ngodi eyi dohamike adiri hasi haranditse ngo visiyo yacu, intego yacu n'ibyo tugenderaho.

Imbere y'abantu benshi bateraniye hamwe biganjemo urubyiruko, hahagaze umugore wambaye umupira w'umweru n'isaha ku kuboko kw'ibumoso n'ipantaro y'ubururu butsindagiye. Afite agakarito ari gukuramo agakingirizo ahereza abari ku kumurongo w'imbere. Muri ba bandi bari imbere ye, abenshi bari guseka. Naho ku rundi ruhande hari umugabo wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'amaboko maremare w'umukara.

Umwana w'umuhungu wambaye amarineti mu gahanga afite umusatsi muke, yambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi ushushanyijeho agakingirizo wanditseho ngo ugakoreshe neza. Mu kuboko kwe kw'iburyo afite icyapa cy'umutuku gishushanyijeho agakingirizo nacyo cyanditseho mu magambo y'umweru manini ngo ugakoreshe neza. Mu kw'ibumoso afitemo ikindi cyapa cy'umweru nacyo gishushanyijeho agakingirizo.

Imbere y'inkuta zisize irangi ry'icyatsi iriho ibyapa byanditse magambo y'ubururu yandikishije inyuguti z'umweru, hari abantu bicaye ku ntebe z'urubaho, imbere yabo hari umuntu wicaye imbere y'ameza ariho igitambaro cy'ubururu wicaye ku ntebe yumweru imbere hari mudasobwa, n'aho imbere yayo meza hari undi uhagaze wambaye itaburiya y'umweru ufite igitabo mu ntoki.

Ku bukarabiro buriho amakaro y'umweru, hunamye umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi w'ubururu ufite ikora n'agapfukamuwa k'umukara, yambaye ipantaro y'ikoboye ifite ibara ry'ubururu bwijimye, inyuma ye hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'amaboko maremare wambaye agapfukawa k'ubururu, imbere ye hari undi mugabo wunamye uri gukaraba wambaye agapfukamunwa k'ubururu wambaye n'amalinete n'umupira w'amaboko magufi w'umweru.